Uruhurirane rw'inzego zitandukanye zirebera hamwe ibijyanye n'umutekano, harimo ingabo na porisi, ndetse n'abandi bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Uruhurirane rw'inzego z'umutekano, aho imodoka yari yayobye, yataye umuhanda. Hari ingabo na polisi ndetse n'izindi nzego z'ubuyobozi.

Kwicungira umutekano ni inshingano za buri muntu wese, bikaba byiza by'akarusho, iyo bashyizeho ibikoresho by'ikoranabuhanga nka kamera ndetse n'ibindi.

Gucunga umutekano ni inshingano ya buri wese, ariko bikaba iby'akarusho kuri wa muntu ukunda igihugu winjira mu ngabo z'igihugu, polisi ndetse no mu zindi nzego zishinzwe umutekano.

Ni byiza ko abaturage bicungira umutekano, ariko ni ibyo agaciro kugira abitanga bakajya mu nzego z'umutekano harimo polisi, abasirikare ndetse n'izindi.

Ni byiza ko abantu bakora akazi kamwe bambara impuzankano imwe ,nk'aha biragaragara ko abacungamutekano bambaye impuzankano imwe ,ku buryo ntawagira icyikango cyangwa se ngo abakekere ibindi ,ahubwo buri muntu wese ubabonye ,akabona ko ari abantu bashinzwe umutekano.

Uruhurirane rw'abantu bahuruye, berekeza ahantu hari habaye inkongi y'umuriro, ndetse n'inzego z'ubuyobozi zirakangurira abaturage kwigira hirya, kugira ngo hatagira uza guhutara.

Kwicungira umutekano ni inshingano za buri muntu wese, biba byiza iyo n'inzego z'umutekano zidufashije nko kurwanya abanyamakosa, harimo mayibobo, ibisambo ndetse n'abandi.

Gucunga umutekano ni inshingano ya buri muntu wese. kuba ijisho rya mugenzi we ariko bikaba akarusho duteye intambwe tukinjira mu ngabo z'igihugu urugero nkapolisi abasirikare ndetse n'izindi nzego ziducungira umutekano.

Kwita ku mutekano ni inshingano ya buri muntu wese, ndetse ni ngombwa ko twifashisha uburyo butandukanye mu gusaka ibintu bitemewe, nko kwifashisha imbwa zabitojwe ndetse n'ibindi.

Gucunga umutekano ni ibintu byiza cyane，kuko bigaragaza urukundo ufitiye igihugu， ndetse bikagaragaza ubwitange n'ubushake ufitiye mu kwitangira igihugu cyakubyaye.

Abaturage bamwe na bamwe hari ababa batizeye umutekano wabo. Bagashaka abantu babarindira umutekano. Ndetse hari n'amabanki akoresha abantu kugira ngo babacungire umutekano, ndetse n'amakoperative abibumbiye hamwe.

Umutekano ukorerwa ahantu henshi hatandukanye, imbere mu gihugu ndetse n'inyuma ndetse no mu mashyamba, ugakorwa neza abaturage bakicungira umutekano ndetse n'abasirikare, abapolisi n'abandi.

Inteko z'abaturage zahuriyemo inzego z'ubuyobozi harimo ingabo na polisi n'abandi bahagarariye imirenge, ndetse n'urwego rw'Akarere, baje mu nama y'abaturage, aho buri wese yari afite gutanga igitekerezo cye.

Gukaza umutekano ni inshingano za buri muntu wese. Biba byiza iyo dukoresheje ibikoresho byabugenewe mu gusaka cyangwa se tugakoresha imbwa zatojwe.

Inzego z'ubuyobozi zigiye zitandukanye zahuriye hamwe zifashisha abaturage bote, kugira babashe kwiteza imbere mu byo bakora babikore babikunze.

wimakaze umuco wacu. Umuco wa kera w'igihe cy'abami. Dukoresha ibikoresho byakoreshwaga igihe cy'ibwami nk'ibiseke, inkoko, intara ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko tuzirikana umuco wa kera, aho wasangaga abakecuru n'abasaza bakoresha inkono z'itabi banyweramo.

Mu muco wacu abantu bahoze bakoresha itazi nk'ifumbire kugira ngo buhirire imyaka yabo cyangwa se bakarikoresha ku mbuga ndetse no ku ndabo.

Cyera umuco wahozeho, abantu bambaraga bitandukanye n'iki gihe, usanga abakecuru n'abasaza bambaye amasaro mu ijosi ndetse bambaye imyambaro igaragaza intugu zabo.

Mu muco gakondo, wasangaga abana bategera amatwi abantu bakuru, babaganiriza ku amateka, ndetse babacira imigani n'ibisakuzo.

Umuco wacu utwibutsa uko abantu bambere b'igihe cy'ubwami uko babaga bambaye, ndetse n'uburyo basokozaga bitandukanye n'ibyiki gihe.

Imbyino gakondo zitugaragariza umuco wo hambere， uko abakobwa bategaga， igihe babaga bataramiye umwami，bambaye imishanana.

Umuco wa kera dusanga hari ibintu byinshi biwutwibutsa. harimo imbyino gakondo, aho babyinaga bafashe amacumu, ndetse n'ingabo. Kandi bakabyina bakenyeye, bambaye nk'ibintu mu mutwe.

Umuco utwereka ibyo hambere, uburyo bakoragamo ibintu byabo ndetse bikatwereka uburyo bambaraga bitandukanye n'iby'iki gihe.

Twimakaze umuco wacu dukoresha ibikoresho byakoreshwaga igihe cy'ubwami harimo, icyibo, umuheto, umwambi, indusho ndetse n'ibindi.

Kwibukiranya imirimo yakorwaga kera nibyiza kuko bituma dukomeza kwimakaza umuco wacu nko gusekura gukoresha urushyo ndetse n'ingasire.

Mu muco wacu， usanga inka z'inyambo， ari inka zitabwaho cyane， inka zifite amahembe maremare， zigaragaza igihe cya kera，uburyo inka bakoreshaga amahembe yazo，babikamo ubukungu.

Hari ibikoresho byinshi bikomeje kutwibutsa umuco gakondo. Harimo indoshyo, umwuko, ibibindi ndetse n'ibindi.

Mu muco wacu abantu bahoze basangirira hamwe, banywera mu bibindi, ibiduki ndetse bagakoresha n'imiseke imwe.

Mureke twimakaze umuco wacu, twibukiranya uko abambere babaga bameze, bakina ikibugozo, ndetse banywera mu ducuma n'ibindi.

Twimakaze umuco wacu twibukiranya uko igihe cy'ubwami byabaga bimeze, twambara imishanana twitega ingori mu mutwe, ndetse twiga imirimo itandukanye nko gucunda n'ibindi.

Hari ibikoresho byinshi bitandukanye, bigiye bitwibutsa umuco wacu, umuco wa kera, nk'ibiparato, ibiseke, ibyibo, intara, ndetse n'ibindi.

Umuco wacu tuwibukira ku bikoresho bimwe na bimwe dukoresha mu ngo zacu, ibirago, imikeka, imishanana ndetse n'ibindi.

Mu gihe duhinze ibihingwa by'impeke mu kubisarura tugomba kwibuka kubigosora kugira ngo tubibike bimeze neza nta myanda irimo yatuma bigaragara nabi.

Ingoma ni igikoresho kitwibutsa umuco wacu, ubwo igihe cy'abami babaga bambaye, ndetse n'uko bavuzaga.

Inzu y'umuco itwereka uko hambere abaturage bahoze batuye. Bikatugaragariza uburyo imiyoborere yari imeze, bitwereka igihe cy'ubwami uko imiturire yari ihagaze.

Umuco gakondo ni kimwe mu bintu abantu baba batagomba kwibagirwa, kuko bigaragaza aho igihugu cyahoze cyangwa se ikagaragaza umuco wa kera uko byabaga bimeze bagakwiye guharanira kuzirikana umuco gakondo.

Hari ibikoresho byinshi bigiye bitwibutsa umuco gakondo wacu. Harimo ibiseke, ibirago, ndetse n'ibindi.

Mu muco wa kera hari ibikoresho byinshi bitwibutsa uko byabaga bimeze, harimo ibiseke, ibirago, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ni byiza ko buri munyarwanda wese aharanira kumenya umuco w'Igihugu ke, akamenya uburyo bacundamo amata, cyangwa se bahitamo igisabo.

Twimakaze umuco wacu, twibuka ko igihe cya cyami bakoreshaga ibikoresho bitandukanye harimo: amacumu, imiheto, imyambi ndetse n'ibindi.

Intebe za kinyarwanda, ni bimwe mu bikoresho bitugaragariza, uko umuco wa kera wahoze umeze, ndetse urangwa n'uko intebe zabo zari iz'icyo gihe, usanga akenshi mu gihe cya none, bigoye kubona intebe zakoreshwaga icyo gihe.

Aho dusanga abantu ba kera bari bafite umucyo wabo utandukanye n'uw'iki gihe. Bari bafite uburyo biyogosheshaga ndetse n'uburyo bambaraga bitandukanye no kuri uyu munsi wa none ibyo dusanga abantu bambara.

Muri iki gihe hari ibikoresho tugikoresha ndetse bikatwibutsa umuco wa kera, uko igihe cy'ubwami byabaga bimeze, habaga hari ibikoresho bitandukanye inkoko, ibyibo ndetse n'ibindi.

Itorero ry'ababyinnyi ryivanze abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, ritwibutsa uko umuco wa kera wabaga umeze. Twimakaze uwo muco w'igihe cy'abami dukoresha ibisabo ndetse n'ibindi.

Mu muco wa kera, wasangaga buri muntu wese, ndetse n'igihe cy'ubwami, ugasanga ibwami higanjeyo ibikoresho byo kwirinda urugero; amacumu, imiheto, imyambi ndetse n'ibindi.

Inka z'inyambo inka zifite amahembe maremare, ni inka zitugaragariza umucyo n'inka zakunze kwerekana umucyo wahozeho inka zabaga zifite urugori.

Umuco wa kera wasangaga abantu bishakira ifu y'igikoma bakoresheje amabuye bita urusyo ndetse n'ingasire bitagombye kujyana ku cyuma kuri uyu munsi wa none ibyo rero bidufasha kuzirikana umuco wacu.

Twimakaze umuco wacu tuwibukira ku bikoresho bimwe na bimwe biriho muri iki gihe, harimo ibirago, uducuma, imiseke ndetse n'ibindi.

Mu muco wa kera abantu bambaraga bitandukanye n'iby'iki gihe aho wasangaga abagabo bambara imikenyero bakambara n'ibindi bitandukanye n'iby'iki gihe.

Mu muco wacu wasangaga kera abakobwa ari bo bakama ibitoki, bakenga inzoga yakoreshwaga mu bibindi, igihe babaga batuye umwami.

Twimakaze umuco wa kera ndetse twibukiranya uko kera byakorwaga, nko guteka mu nkono y'ibumba, ndetse bagashyira ibishyimbo mu giseke, bagatereka inzoga mu bibindi ndetse n'ibindi.

Twimakaze umuco wacu, umuco w'igihe cy'ubwami, twibumbira mu mbyino, imivugo, ndetse n’ibindi.

Mu muco gakondo wasangaga abantu ba kera banywera inzoga mu ducuma ndetse bivuga ibigwi, babyina n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu，babaga bateraniye i Bwami mu igihe cya kera， ubwo babaga bagaragiye umwami， bamubyinira imbyino gakondo.

Ni byiza ko twibuka umuco gakondo, kuko utwibutsa uko amateka yagiye agenda nk'igihe cy'abami. Kugira ngo dukomeze twimakaze umuco wacu.

Hari ibikoresho bitwibutsa, umuco wa kera, wo kugihe cy'abami, harimo ingoma, imirishyo, ndetse n'ibindi.

Kera umwami yarangwaga no kuba yambaye ingofero ya cyami, ndetse mu ruhanga rwe hatamirije ikamba rya cyami, ndetse yishingikirije inkoni afite amasaro mu ijosi, ahagararanye n'umwamikazi we bose bambaye imikenyero.

Mu muco wacu, umuhinzi agomba kuba afite ibikoresho bijyaniranye n'ubuhinzi, urugero: isuka, inkonzo ndetse n'ibindi byamufasha mu gukomeza ubuhinzi bwe.

Mu muco wacu hari ibintu byinshi bikitwibutsa igihe cy'ubwami, uko byabaga bimeze, harimo imbyino gakondo ndetse n'abaririmbyi.

Umucyo utugaragariza uko ahambere byabaga bimeze ndetse n'uko ibwami byabaga bimeze ndetse bakatwereka uko abagabo bacinyaga akadiho, babyina bambaye inkanda ndetse basusurutsa abami n'abamikazi.

Ubuhinzi bukwiye kwitabwaho ndetse abahinzi bakabukorera, kugira ngo bazabone umusaruro uhagije bakabyitaho.

imbyino gakondo ni bimwe mu bigize umuco wacu, bityo rero mureke turusheho kwimakaza umuco wacu.

Ni iby'agaciro ko aborozi bashobora korora ibintu bitandukanye, harimo korora inzuki cyane ko zigira ubuki kandi ubuki ni ingirakamaro mu buzima bwacu.

Mu gihe cya none hari ibikoresho byinshi bigenda bitwibutsa umucyo wa kera. Nk'ibiseke, imitemeri, ibiparato, ibirago, imiheto, imyambi, ndetse n'intebe n'udusongabugari.

Ni byiza ko ibikoresho bikoreshwa n'amashanyarazi tugomba kubishyira kure kugira ngo abana batabasha kubikubaganya bikaba byabagirira nabi.

Mu gihe umaze gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga, bisaba kugicomeka ku mashanyarazi, ugomba kugicomokora kugira ngo hatagira uza kugikubaganisha akacyangiza, cyangwa se na we yaba atazi kugikoresha, kikamugiraho ingaruka kikaba cyamutwika.

Twitondere gukoresha ibikoresho by'amashanyarazi cyane ibikoresho bifite insinga zidatonoye, kuko amashanyarazi ashobora kwangiza umuntu ubikoresheje nabi.

Ni byiza ko ibikoresho by'amashanyarazi bibikwa ahabugenewe, ndetse bakarinda abana kubyegera, kugira ngo hatagira uwo byangiza.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga nde mu mashanyarazi, tugomba kubibungabunga tukabirinda abana kugira ngo batakomeretswa n'ibyo.

Kwita ku bikoresho by'amashanyarazi ni ingenzi cyane, ndetse ukabirinda abana bakiri batoya, bigakoreshwa n'umuntu ubizobereye ufite ubushobozi bwo kwirinda.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse bikoreshwa n' amashanyarazi ni byiza ko ubicomeka ugiye kubikoresha noneho wasoza kubikoresha, ukabi comokorara kugira ngo hatagira uwo biza kwangiriza.

Ibikorwa remezo ni bimwe mu iterambere ry'igihugu, bityo rero buri wese aba yifuza kwegera aho ibyo bikorwa remezo biri, cyangwa se byagenewe kubakwa.

Ibikorwa remezo n'ingenzi cyane ku baturage, iyo bibegereye biba akarusho kuko bituma bagera ku cyo bashaka byihuse, ndetse bakabona n'ibyo bakeneye ku gihe bagiye gusenga cyangwa bagiye ku ishuri, ndetse n'ahandi.

Ibikorwa remezo ni ingirakamaro ku muntu wese, by'umwihariko ku banyeshuri biga bategereje gukora ibizamini, iyo amashuri abegereye bibafasha kwiga neza, bakagera ku ntsinzi yabo.

Ibikorwa remezo, iyo byegereye abaturage biraborohereza cyane cyane nk'ibikorwa by'ubutabazi, harimo aho bakirira abarwayi ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko leta yegereza abaturage ibikorwa remezo, kuko bituma bagera aho bakeneye serivisi zitandukanye bitabagoye, ndetse bigatuma bumva bishimiye ubuyobozi bafite.

Ni byiza kwegereza abaturage ibikorwaremezo, kuko bituma abaturage bagera aho bakeneye vuba, kandi bakabona ibyo bashaka byihuse. Ibikorwaremezo nk'amashuri, insengero, ibitaro, ndetse n'ahandi.

Ibikorwa remezo nko kwegereza ubuyobozi abaturage, ni byiza cyane kuko bifasha umuturage wese kugera ku buyobozi ngo abe yasobanuza ikibazo afite. Ndetse bikorohera abaturage bafitanye amakimbirane kuyakemura byoroshye.

Ibikorwa remezo bidufasha kugera ku byifuzo byacu, ndetse bigatuma buri wese yiyumvamo iterambere n'igihugu, imisoro ikiyongera.

Ni byiza kwegereza abaturage ibikorwaremezo kuko bibafasha kubona serivisi bakeneye bitabagoye. Nk' amashuri, ibitaro, insengero ndetse n'ibindi.

Ibikorwa remezo iyo byegerejwe abaturage biba ari byiza cyane, kuko bibafasha kubona ibyo bakeneye na serivise bashaka. Nk'abakoresha terefoni bakenera kubona iminara, ndetse n'izindi serivise nk'amashuri n'ibindi.

Kwegereza abaturage ibikorwaremezo, ni byizayiza cyane kuko bibafasha kubona serivisi bakeneye batabovunitse, ndetse nko kubegereza amashuri, bituma abanyeshuri bagera ku ishuri, ku gihe kandi bagifite.

Kwigisha abaturage ni byiza cyane kuko bifasha kumenya ibyo bakeneye ndetse bakabaza ibibazo ku byo batumvise neza, ndetse na ba bandi bafite byinshi bibaza babona umwanya wo kubaza bagatanga ibitekerezo bityo buri muntu wese agahabwa ijambo kuko aba afite uburenganzira bungana n'ubw'undi.

Kwegereza ibikorwa remezo abaturage, ni byiza cyane kuko bibafasha kubona serivisi bakeneye bitabagoye, ndetse bigatuma n'abanyeshuri bagera ku ishuri vuba, na ba bandi bafite intege nke bikabafasha kuhagerera ku gihe.

Kwegereza abaturage ibikorwa remezo ni byiza cyane, kuko bibafasha kugera ku byo bifuza, ndetse bigafasha n'abanyeshuri kugera ku ishuri na ba bandi bafite intege nke, biraborohera kugerayo batavunitse.

Ibikorwaremezo bifitiye umuntu wese akamaro, abaturage ndetse n'igihugu urugero amatara yo ku mihanda, amashanyarazi ndetse n'ibindi.

Ibikorwaremezo ni ingenzi cyane nk'amashuri, insengero, amasoko. Bidufasha kubona byinshi dukeneye, abanyeshuri bakajya ku ishuri byoroshye, tugasengera hafi byoroshye, ndetse no guhaha tugahahira ahafi bitatugoye cyane.

Ni byiza gutura mu midugudu kuko bidufasha kuva mu manegeka ndetse bikatwigisha kubana neza n'abandi, bantu bagiye batandukanye ndetse tukigira hamwe gukorera hamwe.

Aha ni ahantu hari ibikorwa remezo ndetse hakenewe gusanurwa. Hakenewe n'ibindi bikorwa remezo, ni byiza ko babisanura hakiri kare bitarangirika. Ndetse bigatuma abaturage bahagera byihuse.

Kwegereza abaturage ibikorwaremezo; nko kubegereza amashuri, amavuriro, ubuyobozi bibafasha kubona serivisi bitabagoye.

Uruhurirane rw'abakozi bo mu muhanda bahuye, bari mu bikorwa remezo, bapakira imodoka z'imicanga, abandi bavoma, bakora n'indi mirimo itandukanye.

Kwegerezwa amashuri ni ingirakamaro kuko bifasha n'abana bafite intege nke mu myigire kujya ku ishuri bitabagoye, ndetse bigatuma n'ababyeyi biborohera kohereza abanyeshuri ku mashuri.

Ibikorwaremezo iyo byegereye abaturage ni byiza cyane. Kuko bibafasha kugera aho bakeneye serivisi bitabagoye. Insengero, amavuriro, ubuyobozi ndetse n'ahandi.

Insengero ziri mu bikorwa remezo, zifasha iterambere ry'igihugu, kuko imisoro iriyongera ndetse n'abaturage bakajya gusenga biboroheye.

Kwegereza abaturage ibikorwaremezo ni byiza cyane, kuko bibafasha kubona ibyo bakeneye batavunitse, nko kubegereza amashuri, ibitaro, ndetse n'ibindi.

Ibikorwa remezo ni byiza cyane, aho abanyeshuri bahurira bishimye ko amashuri abegereye, ndetse n'abafite intege nke bibafasha kugera ku nzozi za bo, zo gutsinda bitabagoye.

Ibikorwa remezo bifasha cyane abaturage, kuko bituma babona ibyo bakeneye batabovunitse, nko kujya ku mashuri, ibibuga by'indege, kwegerezwa amashanyarazi, ndetse n'ibindi.

Aha hantu biragaragara ko ari ahantu hari ikigo cy'amashuri ndetse hakaba hari n'ikusanyirizo ry'ubuhinzi bw'ibirayi, hari ikigega bashobora kubikamo ibirayi byakorohera buri munyeshuri wese kugera ku ishuri vuba.

Urujya n'uruza rw'abantu banyura ku kiraro cyubatswe na Leta, ni byizako abaturage bishimiye uburyo Leta yabitayeho ibazanira ikiraro cyo kunyuraho ,ahantu byabagoraga kunyura.

Gukemura ibibazo by'abaturage ukabikemura neza, buri muturage wese yishimira serivisi yahawe, bigatuma bose bataha banyuzwe, n'uburyo ki ibibazo byo bari bafite byakemutsemo.

Uruhurirane rw'abaturage, aho bahuye bitabiriye inama z'abayobozi kugira ngo babashe gutanga ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo, n'ibibazo bibabangamiye mu buzima bwa buri munsi.

Inteko y'abaturage, aho bateraniye hari ubuyobozi, ndetse buri wese bari kumuha ijambo, akavuga icyo atumvise neza, ndetse akabaza n'ikibazo afite.

Urujya n'uruza rw'abantu bashungereye abayobozi bari guca imanza, ni byiza ko tureka gushungera, ahubwo tukajya kumva uko imanza ziri tudashungereye abayobozi bari kudukemurira ibibazo.

Inteko y'abaturage, yahuriyemo inzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano, aho bari kwigira hamwe ibibazo bibugarije, bagahereza umuturage wese ufite icyo ashaka kuvuga, kugira ngo babashe guhuza ibitekerezo.

Si byiza ko ibinyabiziga bitagenewe kwikorera imizigo babipakiraho ibintu nka moto ndetse n'ibindi.

Mu gihe hari ikinyabiziga cyagize ikibazo kigapfira mu nzira, hagomba gushyirwa ibirango mu muhanda bigaragaza ko iyo nzira itari kunyurwamo, kugira hatagira ibindi biza kuyihasanga hakaba impanuka zitateguwe.

Ubutwazi bw'imodoka ni ingirakamaro kuri buri muntu wese kuko byorohereza ingendo abantu bakeneye kujya mu mirimo yabo ndetse bigafasha abahinzi kugeza imyaka yabo ku isoko bitabagoye.

Urujya n'uruza rw'abantu babyiganira kwinjira mu modoka ya kwasiteri, bitewe n'ingendo bafite zigiye zitandukanye, bibafasha kugera aho bagiye bitabagoye.

Uruhurirane rw'abahinzi, bagenda bikoreye imyaka bajyanye ku isoko, kugira ngo abatayifite bayibonere hafi nk'ibitoki, amashaza, ibishyimbo, ibijumba, imyumbati, ndetse n'ibindi.

Ibinyabiziga bitwara abantu ni byiza ko babicunga bakamenya ko nta kibazo bifite kugira ngo bitaza kwangirikira mu nzira, kandi bitwaye abantu. Ni byiza ko mbere y'uko ikinyabiziga gihaguruka babanza gusuzuma ahantu hose ko ari kizima.

Urujyanuruza rw' abantu berekeza ku kibuga cy' indege, bafite ingendo zitandukanye, abagiye mu mahanga, abagiye hirya no hino. Bose bishimiye kugenda bameze neza nta kibazo.

Ni byiza ko abatwazi b'ibinyabiziga, bagomba kuba bafite ubwirinzi, nk'abamotari bagomba kuba bambaye masike zabugenewe, ndetse na kasike, kugira ngo bataza guhura n'ibyago, bakagira ubwirinzi.

Amagare ni kimwe mu bikoresho bidufasha kutworohereza ingendo za hato na hato. Ndetse rikadufasha gutwara imyaka igihe twasaruye. N'igihe dufite ibikoresho byinshi byo gutwara ku isoko cyangwa n'ahandi hantu tubikeneye.

Ubutwazi bw'imodoka, ni ingirakamaro cyane, kuko budufasha kuba twakiteza imbere vuba, bitewe n'uko butuzanira ibikoresho dukeneye, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibinyabiziga bigomba guhana inzira, kugira ngo n'abanyamaguru babone aho banyura, kandi nta kibazo kibayemo birinda impanuka.

Uruhurirane rw'imodoka zitwara abagenzi ndetse n'izitwara imizigo, ni byiza ko zihana umwanya buri modoka ikajya mu mwanya wayo.

Imodoka zitwara imizigo zishobora kudufasha gutwara ibintu bitandukanye, igihe wasaruye imyaka yawe, ishobora kuzifata ikazijyana, cyangwa nk'igihe ufite inyanya, imboga ndetse n'ibindi.

Si byiza ko imodoka zitwara abagenzi, zigenda ziparika aho zibonye, zigomba guparika ahabugenewe, kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato.

Igare ni igikoresho kidufasha gutwara abagenzi, ndetse no gutwara imizigo, igihe basaruye imyaka.

Uruhurirane rw'abantu bacunga umutekano, ndetse n'abantu bafite ingendo mu bihugu bitandukanye. Ni byiza ko ku kibuga cy'indege hagomba kuba hari umutekano uhagije.

Ba rwiyemezamirimo badufasha kumenya aho iterambere ry'igihugu rigeze nk'igihe bari kutwubakira imihanda hirya no hino, kutwegereza amazi, amashanyarazi ndetse n'ibindi.

Hari imodoka zitwara abagenzi, ndetse hari n'izifashishwa mu gihe abantu bagiye gutembera, kureba ibyiza, harimo nka kwasiteri, ndetse n'izindi.

Imodoka zitwara abagenzi, zorohereza ingendo kuri buri muntu wese ukeneye kujya mu ntara ndetse no mu mujyi, bityo rero bigatuma buri wese yumva ko ahantu aho ariho hose yajya bitazamutwara igihe kinini, cyangwa se ingendo ndende.

Ni byiza ko tumenya gutwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye kuko bidufasha kwiteza imbere ndetse bikadufasha no kugeza imyaka yacu ku isoko bitatugoye ,ibinyabiziga nk'igare moto ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu mu mihanda, abantu bagiye aho bategera imodoka, ziberekeza mu turere tumwe na tumwe, bakagenda mu modoka zitandukanye harimo kwasiteri, minibisi, toyota, taxi ndetse n'izindi.

Ni byiza ko abatwara ibinyabiziga bagomba kubikora babikunze, ndetse bakagira ubwirinzi, kugira ngo hatagira uza kubibangamirwamo.

Abantu benshi bakunda gukoresha ibinyabiziga cyane iyo bari mu ngendo, babikoresha bagiye gusura ahantu runaka, cyangwa se bagiye gutwara ibikoresho, ndetse n'imyaka yabo ahantu hagiye hatandukanye. Bityo imodoka ni igikoresho cyiza cyane kuri buri muntu wese.

Uruhurirane rw'imodoka zitandukanye, zikoreye imizigo, ndetse zafunze inzira y'abanyamaguru, si byiza ko baparika aho babonye.

Imikino ngororamubiri ni myiza cyane kuko idufasha kugera ku byishimo byacu, ndetse igatuma tugira ubuzima bwiza, ndetse urubyiruko rukizamuka rukabafasha kugera ku nzozi zabo, bibumbira mu marushanwa abatsinze bagahabwa ibihembo.

Imikino y'imyidagaduro ni imikino myiza cyane. Ifasha buri muntu wese kugira ibyiyumviro byiza, ndetse no kugera ku byishimo bye, mu gihe asanzwe akunda iyo mikino, ndetse bigatuma n'ubuzima bwe bugenda neza. Nko gukina tenisi, basikete ndetse n'ibindi.

Imikino y'imyidagaduro idufasha kugera ku byishimo byacu, ndetse ikadufasha kugera ku nzozi zacu, igihe twahuye n'andi makipe dukinira intsinzi, bituma duhabwa ibikombe, bityo tukagera ku cyo twifuza nko gukina basikete, umupira w'amaziguru.

Imikino y'imyidagaduro ni ingenzi cyane ituma tugera ku nzozi zacu, ndetse ikadufasha kugera ku byishimo, ndetse igatuma tugera aho twifuza, cyane iyo twakoze amarushanwa tugatsinda duhabwa ibihembo.

Imikino ni myiza cyane idufasha kuruhura mu mutwe, ndetse no kugera ku cyo twifuza. Ikadufasha kugera ku nzozi zacu. Nk'igihe twakoze amarushanwa yo koga, ndetse no gukina imipira y'amaguru n'ibindi.

Ni byiza kwitabira amarushanwa y'imikino y'imyidagaduro kuko bidufasha kugera ku ndoto zacu nko kwitabira amagare gukina imipira ndetse n'ibindi.

Amarushanwa y'imyidagaduro ni meza cyane kuko adufasha kugera ku nzozi zacu nk' igihe twagiye mu marushanwa y'amagare cyangwa gukina umupira ndetse n'indi myidagaduro igiye itandukanye bituma uwabashije gutsinda ahabwa ibihembo.

Urujya n'uruza rw'urubyiruko rwateraniye hamwe, kugira ngo bakorere hamwe siporo; kuko siporo ari ingirakamaro ku buzima bwa buri muntu wese.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye bahuruye baje kureba amarushanwa y'imodoka bareba uburyo zitwaramo, zigenda zinyuranyuranamo.

Imikino ngororamubiri ni myiza cyane, gusa biradufasha iyo tuyikoze, twabanje kumva amabwiriza ayigenga, kugira ngo hatagira uvunikiramo, cyangwa ngo agiriremo ibindi bibazo.

Imikino y'imyidagaduro idufasha kugira ngo imibiri yacu imere neza, ndetse igatuma tugera ku nzozi zacu igihe twagiye mu marushanwa, biba ngombwa ko hatangwa ibihembo bigatuma twiteza imbere.

Ni byiza gutoza abana bakiri bato, imikino, imyidagaduro, bagakora siporo zitandukanye, harimo kubyina, gutera icumu, ndetse n'ibindi.

Imikino y'imyidagaduro harimo imipira, ni byiza ko mbere y'uko tujya mu marushanwa hagomba kuba habayeho imyitozo, kugira ngo tubashe kubona intsinzi.

Imikino y'imyidagaduro ni myiza cyane kuko ifasha buri muntu wese ubyifuza kwishima ndetse no kugera ku nzozi ze, cyane cyane nk'iyo bari mu marushanwa hari igihe ariwe utwara irushanwa ubundi agahabwa ibihembo bishimishije.

Urujya n'uruza rw'abantu bahagaze ku mihanda bareba amarushanwa y'ibinyabiziga, nk'amagare, imodoka, amapikipiki ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuruye baje kureba imikino yo kwidagadura bakina vole bolo.

Uruvunganzoka rw'abantu bahuruye baje kureba amarushanwa yamagare, n'imodoka bagira ngo bamenye uza gutwara intsinzi.

Uruhurirane rw'abantu batandukanye bahuruye baje kureba imikino y'imyidagaduro ngororamubiri, kugira ngo babashe kwishima, ndetse no kugera ku byifuzo byabo.

Imikino n'imyidagaduro ni ingenzi ndetse ni ingirakamaro kuri buri muntu wese kuko idufasha kugorora umubiri wacu ,ndetse no kugabanya ibinure urugero nko gukina umupira, kwirukanka, gusimbuka umugozi ,gukora siporo zigiye zitandukanye.

Siporo ni ubuzima, siporo ituma twisanzura ndetse tugahura n'abandi bantu, tukagirana ubucuti, tukunguka inshuti, siporo ituma tugera ku byishimo byacu, ndetse igatuma tugera ku nzozi zacu nk'igihe twagiye mu marushanwa.

Umukino nka voreboro ni ingirakamaro ku buzima bwacu, ndetse udufasha kugera ku ntsinzi yacu no ku nzozi zacu.

Imikino y'imyidagaduro ni byiza ko bahuriramo ari amatsinda, kugira ngo babashe gukina neza ndetse bagere ku ntsinzi yabo bitabagoye.

Imikino ngororamubiri ni myiza, kuko ituma tugaragaza amarangamutima yacu, ndetse tukishima cyane, yewe tukagera no ku ntego zacu, binyuze mu marushanwa nko kwiruka, gusimbuka imigozi, ndetse n'ibindi.

Imikino, imyidagaduro ni myiza cyane kuko ituma abantu bagera ku nzozi zabo, cyane iyo bahuriye mu marushanwa n'abandi, abatsinze babasha guhabwa ibihembo bakagera ku ndoto zabo.

Imikino ngororamubiri ni myiza cyane, kuko ituma twishima ndetse igatuma ubuzima bwacu bugenda neza, ndetse bikaringanyiza n'ibiro byacu, kugira ngo tubeho dufite ubuzima buzira umuze.

Ni byiza gukina imikino itandukanye, harimo nko gukina baskete, umupira w'amaguru, gukina rugubi ndetse n'indi mikino igiye itandukanye. Siporo ni ingenzi kuri buri muntu wese ubyifuza.

Urujya n'uruza rw'abantu bakora ingendo zigiye zitandukanye, ndetse hari n'amagare akoreshwa mu buryo bw'ingendo, ndetse na moto n'imodoka, ni byiza ko umuntu wese yakoresha uburyo bumworoheye, ariko yirinda ingendo za hato na hato.

Umuhanda ni mwiza cyane kuko worohereza abantu kugera ku masoko ndetse n'ahandi bitabagoye, ahandi hose bashaka ndetse bikabafasha kubona ibinyabiziga bitagoranye.